Ibihingwa bitandukanye harimo ishu, ibishyimbo babishyiraho ifumbire kuko bitanga umusaruro ushimishije, ikindi kandi iyo byeze babisarura babijyana ku isoko babaha amafaranga basigaza n'ibyo barya.